Umugore wambaye ikanzu y'igitenge, ufite igitambaro cy'ubururu mu ntoki, uteze n'ikindi mu mutwe, ari imbere, inyuma ye hahagaze abagore bari kumureba benshi, bamwe barebana, inyuma yabo ku gikuta gisa umweru, hashushanyijeho inzu n'umwana n'ibiti.

Ahantu bari gusuzuma hari umumama w'umusilamu uteruye akana kambaye ikanzu y'icyatsi, aka kana kari gupfukwa n'umugabo igipfuko cy'umweru. Inyuma yabo hicaye umuganga, imbere ye hari ameza n'impapuro nyinshi.

Abaganga bambaye amataburiya y'ubururu bari gusuzuma, umwe yambaye agapira k'icyatsi n'igitambaro cy'umweru n'umukara mu mutwe n'amadarubindi, ufite akaboko k'umusaza yashyizeho icyuma bumviramo uko umutima utera, umusaza wambaye agapira k'umweru n'ikote ry'umukara n'ingofero mu mutwe, ufite imvi nyinshi.

Abagore bari imbere y'imberabyombi bari gufata ifoto y'urwibutso, umurongo w'imbere uriho abagore babiri basutamye, abantu bose bambaye amajiri y'icyatsi n'udupira tw'ibara ry'igicunga, harimo abagore bateze ibitambaro mu mutwe.

Abantu bari gutanga imiti iteretse ku meza iri hagati yabo, hariho ibikarito by'icyatsi n'umweru ni'kindi cy'ubururu, umugabo wambaye ishati y'umweru, ijiri y'ubururu, n'amataratara, umukobwa wambaye umupira w'icyatsi, n'ibisuko, n'isaha y'umweru ku kuboko.

Umugore wicaye ku ntebe y'umweru wambaye ipantaro y'umukara ufite igitabo mu ntoki ze, n'undi inyuma ye wambaye ikanzu wunamye ufite impapuro, ari kubwira umugore wicaye wambaye ipantaro y'umukara, uteruye umwana n'igitambaro mu mutwe, iruhande rwabo hari akana k'agakobwa.

Abaganga benshi bazamuye ibiganza bari gufata ifoto y'urwibutso, bambaye amataburiya y'umweru n'amapantaro y'umukara, hagati yabo hari umugore wambaye igisarubeti cy'umutuku, ku nkuta zabo zisa umweru, harimo inzugi n'ishusho, ku rukuta rumwe.

Akana k'agahungu, gasutamye kambaye ikabutura n'umupira wa kake, kari gushyira indobo ifite ibara ry'icunga ku mutwe, ku ivomero, rifite utuntu tune two kuzana amazi, imbere ye hahagaze umupapa wambaye ipantaro y'ikoboyi n'umupira w'ubururu, ufite ingata.

Abana bane b'abanyeshuri bunamye bari gukaraba, bishimye cyane, inyuma yabo hahagaze umunyeshuri umwe we utunamye, inyuma yabo na none hari ibiti by'icyatsi, muri aba bana babiri muri bo bambaye inkweto z'umukara, umwe muri bo yambaye inkweto z'iroza.

Umwana w'umunyeshuri wambaye igisarubeti cy'ubururu n'agatera k'umweru, afite agashyitsi gakeya na bodaboda, wunamye ari gukara ku iriba, imbere ye hari indobo y'icyatsi iriho icyapa cy'ubururu, birya hari amashuri, hari n'akandi kana kagaragara, hateye ibiti.

Umugabo wishimye cyane, uri guseka, wazamuye akaguru, yambaye ipantaro y'umukara, ishati, irimo uturongo, tw'umukara n'ubururu, ufite ijerekani y'umuhondo, imbere yatsikamijeho amaboko ye, uri ku iriba, inyuma ye hari ibyatsi biteye, hari n'umukingo.

Abaganga batatu bari kwa muganga babiri muri bo bambaye amataburiya y'ubururu n'udupfukamunwa n'amasha y'ubururu mu mutwe, bateruye ibikarito bibiri by'umweru mu ntoki inyuma yabo hari inzugi, hejuru hari itara ricanye iruhande rwabo hagaragara ikirori.

Abagore batatu bari kwisuzumisha, umugore wa mbere uri kumwe na muganga, muganga wambaye ikote ryo kwifubika, itaburiya y'umweru, n'igitambaro mu mutwe, n'akantu ari gupimisha umurwayi, abagore b'inyuma bafite impapuro mu ntoki, n'ibitambaro mu mutwe, inyuma yabo hari ibyatsi, n'insina iteye.

Inshinge esheshatu zikoreshwa kwa muganga igihe bari gufata amaraso ziteretse ku kantu k'akuma gakoreshwa mu gutwara ibikoresho. Igikuta cy'iyi nzu gisa oranje, hateretseho n'agacupa gatoya gafite umufuniko w'icyuma n'icyapa cy'umweru kuri aka gacupa kabonerana.

Abantu bicaye bari kugaburira abana bicaye hasi ku musambi, umwe muri bo ni umupolisi yambaye n'ingofero undi yambaye agapira ka oranje n'ingofero, undi yambaye ijire ya kaki. Inyuma yabo hahagaze abagore bakenyeye ibitenge n'ijipo y'umukara, bambaye imipira ya oranje n'umwe ufite telefone mu ntoki.

Umwana w'umuhungu mutoya uri ku iriba uri kuvoma amazi ari kugwa mu ijerekani, hari ibijerekani bibiri biteretse hasi, yambaye agapira k'umweru n'ipantaro izinze y'iroza. Inyuma ye hari ibiti biteye, ari guseka.

Umugabo wambaye lunette n'umusatsi wogoshe neza n'umupira wa oranje n'ipantaro y'umukara ufite isahane, uri kugaburira umwana, uteruwe n'umubyeyi wambaye umupira w'umweru. Inyuma yaho hari abandi bagore n'ababyeyi benshi bari gutamika abana babo.

Umwana w'umwirabura uteruwe na mama we ufite udusaro tw'icyatsi n'umuhondo n'umutuku mu mutwe, wambaye agapira k'umweru. Ateruwe n'umugore wambaye ibitenge, umuganga ari kumutera urushinge mu kuboko, uyu muganga yambaye itaburiya y'umweru.

Abagabo bari mu cyumba k'inama baganira, imbere yabo hari ameza y'icyatsi ateretseho ibirahure n'impapuro nyinshi zisandaje, umwe muri aba bagabo ari kuvuga yambaye ikote ry'umukara, abandi nabo bambaye amakote, umwe muri bo yambaye amadarubindi.

Abana batandatu bari kwidumbaguza mu mazi asa nabi y'ibiziba, umwana umwe arahagaze imbeho yamwishe yakunje amaboko uw'undi yarambuye amaboko, abana batatu bari koga mu mazi, undi ari hirya yagiye ari koga.

Abantu benshi bari kwifotoza bahagaze imbere y'inyubako ifite ibikuta by'umuhondo, n'amatafari, hirya hateye igiti, hasi bahagaze ahantu hasa umutuku, hari umugabo wo ku ruhande wambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'umukara, n'inkweto z'umweru.

Umugore wambaye ijiri y'icyatsi n'ikanzu y'igitenge, wambaye agapfukamunwa, ufite imisatsi ifunze na rinete na ga mu ntoki, ufite agakoresho bapimisha umuriro, uri gupima umugore uteruye ikiringiti mu ntoki n'umwana, hirya hahagaze umukobwa wambaye ingofero n'ipantaro y'umukara.

Umwana muto w'umuhungu w'umunyeshuri, wambaye impuzankano ari gukaraba amazi kuri kandagira ukarabe irimo akabasi gasa n'ibara rya oranje, inyuma ye hari ikigega cy'umutuku kandi hari n'igipangu cyubakishije amatafari.

Abantu bari ku iriba harimo umugore wambaye umupira w'amaboko maremare w'ubururu akenyeye igitenge n'igitambaro mu mutwe, ufite ijerekani mu ntoki yayizamuye, ku iriba iri kujyamo amazi, hirya hahagaze umugabo we wambaye ishati y'amaboko maremare ufashe ku iriba, hirya hateye ibiti.

Abantu bari ku iriba harimo umugore ukenyeye igitenge cy'icyatsi n'agasenge k'iroza uri koza umwana muto w'umuhungu mu ipase isa iroza, hirya iriba risa ubururu hari akana kari kuvoma mu ndobo y'icyuma n'umugore ufashe indobo y'icyuma wegeranye n'akana gakenyeye igitenge.

Abantu icumi bahagaze imbere y'icyumba k'inama bafata ifoto y'urwibutso. Muri aba bantu harimo abagore babiri bambaye impuzankano za kiganga. Iruhande rwabo hateretse icyapa gisobanura inama bari barimo. Inyuma yabo hari igikuta cy'amatafari ahiye.

Umwana uri kuvoma amazi yo kunywa ku iriba, wambaye iniforume, wogoshe neza. Ari kuvoma amazi mu gakombe k'umweru. Iruhande rwe hateretse ikigega cy'umukara, inyuma ye hari igikuta cy'amatafari no hasi hari utwatsi twatangiye kumera.

Ahantu habereye imbwirwaruhame, hari abantu benshi cyane, hari igisharagati n'inzu isakaje amabati y'umutuku, imbere yayo hari idarapo, ibikuta by'iyi nzu bisa umweru ahandi ni amatafari, bifite umuryango w'icyatsi, iruhande hateretse imodoka, impande zayo nanone hari ibiti.

Umugore wambaye ingofero mu mutwe, ufite imisatsi iri kugwa mu maso, ijiri ya kaki, agapira k'umweru n’ipantaro y’umukara, usutamye uri guha abana amata, utwana twicaye hasi twambaye imipira y'icunga rihishije.

Umuganga ufite ibisuko, ufite ikaramu mu ntoki, n'impapuro z'icyatsi, yambaye ishati y'umweru uri kwandika mu mpapuro ziri ku meza, iruhande rwe hicaye umukobwa wambaye ikanzu y'umweru mu ntebe y'umweru, nawe imbere ye hateretse impapuro ziri mu ibara ry'iroze, umugore wambaye itaburiya y'ubururu n'ishati y'umweru, ni'gitambaro cy'umweru mu mutwe.

Umugabo wishimye wambaye ishati y'ubururu n'ipantaro y'umukara n''kweto z'umukara yunamye, ari gukandagira kuri kandagira ukarabe ifite akajarekani k'umuhondo yubakishije ibiti, inyuma ye hari igiti cy'ibara ry'umutuku n'ibindi by'icyatsi, hari n'inzu ifite n'itara.

Abantu barimo gutanga amata utwana twicaye hasi ku musambi bari gukoresha ibyansi, umwe muri bo afite igikombe, utwana twambaye imipira y'icunga rihishije hari umugabo wambaye ingofero ya gisirikare, ijiri ya kaki n'ipantaro y'ubururu, inyuma abandi bahagaze.

Abana b'abanyeshuri bambaye impuzankano zisa ubururu n'amashati ariho amakora y'ubururu, bari kuvoma amazi yo kunywa mutugega duto twabugenewe duteretse kumeza dusa ubururu. Inyuma yabo hagaragara imisozi n'igipangu cyubakishije amatafari.

Abana babiri bari ku iriba bari kuvoma amazi, akana k'agahungu kamwe kambaye ikabutura y'umukara n'ishati y'umweru, kari kumanura imashini izamura amazi akagwa mu kajerekani, gafitwe n'umwana w'umukobwa wambaye ijipo y'igitenge, inyuma yabo hari ibyatsi.

Abana babiri bishimye cyane bari mu ishuri, umwe wambaye agapira k'imbeho y'amanitse akaboko undi yambaye agashati k'igitenge imbere yabo bari k'umeza, inyuma yabo hari igikuta n'ikibaho cy'umukara mu inzu y'amatafari ifite amabati.

Abana b'abanyeshuri, bishimye cyane, bari kwifotoza, bazamuye ibiganza, bapepera, bambaye amashati y'umweru, inyuma yabo hahagaze abantu bakuru harimo abazungu bari kwifotozanya, inyuma yabo hari igikuta cy'umweru n'inzugi z'ubururu z'ibyuma.

Abantu b'abaganga bari gutanga inyigisho mu gisharagati bambaye amataburiya y'ubururu, bafite udupapuro mu ntoki bari kwereka abagabo babahagaze imbere bambaye amakote b'abazungu, inyuma y'abaganga hari umuntu uri gufotora n'iruhande rwabo hari undi uri gufotora wambaye itaburiya y'umweru.

Icyumba cy'inama kirimo abantu bicaye barebana ku meza hateretse impapuro n'utuntu tw'umukara n'amazi yo kunywa. Hagati harimo agace k'umweru gateretsemo indabo. Imbere yabo hari tereviziyo. Inyuma hari amadirishya y'ibirahure afite utuntu tw'ubururu.

Umwana w'umuhungu wunamye uri gukaraba, imbere ye hateretse indobo y'ubururu, uyu mwana yambaye isengeri y'umukara n'ikabutura y'umuhondo, ari gusukirwa amazi n'akandi kana gatoya gafite ijage y'ubururu mu ntoki, inyuma yabo hari urugi rumanitseho igitenge.

Abana b'abanyeshuri bambaye impuzankano z'ubururu n'udupfukamunwa batumanuye, bafite amasahani ariho ibiryo imbere yabo n'amafoke, hirya yabo hari abandi bana bambaye iniforume za kake, inyuma yabo hari ikibaho cyanditseho n'ingwa y'umweru, igikuta cy'ishuri ryabo gisa umuhondo.

Abagore bari ku iriba, hari umugore wambaye agashati k'ibara ry'iroza ukinyeye igitenge cy'icyatsi n'igitambaro mutwe n'amaherena, uteruye indobo y'ubururu irimo amazi. Inyuma ye ahagaze abagore bane hari ku iriba, inyuma hateye ibiti n'amabati.

Umugore wakenyeye igitenge n'agapira karimo utubara twinshi, wikoreye ijerekani y'umuhondo n'umufuniko w'umutuku yakoreshejeho amaboko abiri n'igitambaro mu mutwe, imbere ye hari akana kambaye ishati y'ubururu, imbere hari amabati y'umutuku n'igipangu cy'ibara ry'ikigina.

Abaganga babiri bari gusuzuma umubyeyi wicaye ku gitanda, uteze igitambaro, yambaye ikanzu y'ubururu, yazamuye akaboko, bashyizeho icyuma. Umuganga wa mbere yambaye igitambaro mu mutwe cy'umukara, yambaye n'itaburiya y'umweru n'akuma gapima umutima uko utera n'amarinete.

Abantu batanu bicaye mu cyumba k'inama harimo abagore babiri n'abagabo batatu. Abagabo babiri muri aba bambaye amakoti. Imbere yabo hari imeza iteretseho impapuro n'uducupa tw'amazi. Bose bicaye ku ntebe z'umukara, hari idirishya rifunguye inyuma y'umugabo umwe.

Umwana w'umuhungu uri ku iriba wambaye bodaboda z'ubururu n'agapira ka gisirikare n'agakabutura k'umutuku, uteze ibiganza ku iriba ari kunywa amazi, andi mazi agwa mu ndobo y'ivu iri hasi. Inyuma ye hari inzu ifite ibara ry'umweru n'umuhondo, hejuru hateretseho ikigega, iruhande rwe akikijwe n'ibiti.

Abana b'abanyeshuri batandatu, harimo abakobwa bane n'abahungu babiri, bafite ibikombe by'icyatsi n'ubururu mu ntoki bari kunywa amazi, bambaye imipira y'imbeho, umwe muri bo ateze igitambaro. Bari kuvoma amazi ku kigega, inyuma yabo hari ibipangu by'amabati, bahagaze mu mabuye no mu byatsi.

Abana b'abakobwa babiri bari ku iriba umwe ari guteruza undi kugira ngo yikorere mu ndobo y'icyatsi, umwana umwe yambaye agapira k'ubururu n'ijipo y'umuhondo, undi yambaye agapira k'umukara n'umutuku karimo uturongo akenyeye n'igitenge, inyuma yabo hari inzu y'ikigonyi, imbere yawo hari umusozi uteyeho ibiti.

Abantu benshi bahagaze imbere bari gufata ifoto y'urwibutso, harimo abaganga bambaye amataburiya y'umweru, abantu benshi bambaye amapantaro y'umukara. Inyuma yabo hari inzu y'ubururu, urundi ruhande ruteyeho ibiti.

Abagabo babiri, bari gusuzanya, umwe yambaye ikote ry'umukara na karuvati y'ubururu, undi yambaye ikote ry'umukara, afite ibitabo mu ntoki, kimwe gisa ubururu n'ikindi cy'umukara, inyuma yabo hari icyapa cyanditseho amagambo y'umuhondo, imbere yabo hari indangururamajwi, inyuma hari intebe y'ibara ry'ikigina.

Abantu bari mu nzu y'ibiganiro, uruhande rumwe rwicayeho abantu bafite mudasobwa z'umukara, imbere yabo abandi bari kwandika n'intoki bicaye ku ntebe z'ubururu, inyuma hari icyapa cy'ubururu cyanditseho amagambo y'umuhondo, hagati hahagaze umugabo wambaye umupira w'ubururu bwerurutse n'ipantaro y'umukara.

Umuganga wambaye amaherena n'umusatsi mugufi w'umukara n'itaburiya y'umweru imbere harimo ishati y'ubururu, urigutera urushinge akana kambaye agapira k'umweru gateruwe na mama we wambaye igitambaro mu mutwe. Iruhande rwabo hari ameza n'igikarito cy'umuhondo.

Abantu bicaye mu gishararagati mu mbwirwaruhame. Imbere yabo hari umugabo uri kubaha amabwiriza wambaye ipantaro y'umukara. Muri aba bantu ku murongo wa mbere hicaye umupolisi w'umumama. Hirya yaho hari abantu batatu bari mu mitaka bitwikiriye izuba.

Umuntu uri ku iriba wifubitse igitambaro cy'umweru n'umutuku, ufite ijerekani y'umuhondo iri kujyamo amazi, ku iriba hateretse imifuniko ibiri umwe w'icyatsi, hasi hateretse akandi kajerekani k'umweru n'ikindi kijerekani cy'icyatsi kiri hirya.

Abantu benshi bari mu icyumba cy'inama k'umurongo wi'imbere hari umupapa wambaye imyenda y'icyatsi munini cyane, iruhande rwe hari umusore wambaye ikote, hagati harimo agatebe gateretseho isakoshi n'amazi, umugore wambaye igitenge inyuma hari amakamera.

Abaganga bari gufata ifoto y'urwibutso ku murongo w'imbere basutamye, ab'inyuma bahagaze, bose bambaye imipira y'umweru, harimo n'abambaye amakote, inyuma hari icyapa kigaragaza ibyo bari barimo n'urukuta rwubakishije amatafari imbere yabo, basutamye mu twatsi.

Abana b'abanyeshuri bunamye, bari kunywa amazi, bambaye imyenda y'icyatsi, harimo umwe uhetse igikapu. Bari kunywa amazi ku iriba. Uri kunywa amazi yambaye agapira k'umweru, hejuru hari ibyuma, inyuma yabo hateye imiti, imbere yabo na ho hari ibyuma.

Umugore wikoreye indobo y'umutuku n'igitambaro mu mutwe, wambaye ishati irimo amabara ya kake n'kigina, ukenyeye igitenge, uteruye n'indi ndobo mu kuboko kw'iburyo y'umuhondo, uri kugenda, imbere ye hari ibyatsi n'ibiti.

Abantu batatu bari gupakira imifuka harimo abagore babiri bateze ibitambaro n'imyenda y'igitenge n'umugabo umwe uhagaze hejuru wambaye ipantaro y'umukara n'ishati y'ubururu uri kubafasha gukurura, inyuma yabo hari ikirere kigaragara neza n'ibyatsi cyangwa ibiti biteye.

Akana kishimye cyane kambaye agapira k'ubururu n'umukara n'ikabutura y'icyatsi, kari gukaraba mu maso ku iriba, inyuma ye hari abantu batagaragara neza, iruhande rwe hari igikuta n'ibiti inyuma, gafite umusatsi mukeya.

Abantu bari mu nama bicaye ku buryo bw'uruziga, inyuma hari umukobwa uhagaze wambaye umwenda w'umuhondo, inyuma yabo hari amarido n' icyapa gisobanura inama barimo, ku gikuta kimwe hariho igishushanyo cy'inka, bicaye ku ntebe z'umukara umwe muri bo yambaye ishati y'ubururu.

Abanyeshuri bari gufata ifoto y'urwibutso, bambaye amashati y'umweru n'amapantaro y'ubururu, harimo uwambaye agapira k'umutuku n'ikabutura y'umukara, n'umwarimu wabo wambaye ipantaro yumukara n'ishati irimo uturongo, inyuma yabo hari icyapa cyanditse mu magambo y'umukara n'igikuta cyubakishije amatafari.

Umuntu usa nabi umeze nk'umusazi wicaye ku muhanda afite amashashi abiri, imwe irimo amazi imyenda ye yaracitse cyane, iruhande rwe hari igipapuro, inyuma ye igikuta gisa umuhondo, yambaye imyenda y'umukara n'ingofero y'umukara mu mutwe, yambaye urukamambiri rumweru ukundi kuguru nta rukweto yambaye.

Abantu cumi na bane bahagaze bari gufata ifoto y'urwibutso, ku murongo w'imbere hahagaze abagore babiri n'abagabo batatu, umwe muri abo bagabo yambaye amadarubindi, iruhande rwabo hari icyapa gisobanura inama bari barimo.

Abantu icumi bahagaze bari gufata ifoto y'urwibutso, harimo abantu batanu bafite ibyapa mu ntoki, abandi ntabyo bafite, inyuma yabo hari icyapa kirimo ibara rya oranje n'icyatsi, inyuma yabo hari inzu nziza cyane n'ibiti biteye.

Umugore w'umwirabura wambaye igitenge yicaye ahetse umwana yamanuye n'agapfukamunwa. Iruhande rwe hahagaze umwana muto w'umuhungu wambaye ikabutura y'iroze. Imbere ye hari isafuriya ari gukozamo akayiko, inyuma yabo hari irido n'ibikuta by'inzu z'icyondo.

Abantu bicaye, bari kuganira, harimo umugabo wakunje ipantaro, wicaye ku ntebe y'urubaho, wambaye umupira w'ubururu n'umusatsi muke ku mutwe, imbere ye hari abagore bicaye, hirya hari akana, umugore umwe uteze igitambaro mu mutwe, ukenyeye igitenge.

Abana bishimye cyane bari kureba imbere bazamuye amaboko, harimo uwambaye agakanzu k'umuhondo wifashe mu mutwe n'akashati k'umweru. Inyuma hari abambaye udupira tw'umutuku, iruhande rwe hari undi bazamuye amaboko wasetse cyane wambaye agapira k'umuhondo.

Abantu batandatu bicaye hanze imbere y'umuryango harimo abagabo babiri, abagore batatu n'umwana mutoya, aba bagore bakenyeye ibitenge, umwe muri bo afite igitambaro mu mutwe, inyuma yabo hari umuryango ufunguye n'utudirishya dutoya dufite ibirahure n'akabara k'umutuku.

Umugore ufite ibisuku wambaye sharupe ya kake n'ishati y'ubururu n'ipantaro y'ubururu, uri guhoza umugore uri kurira wambaye ikanzu y'ubururu n'umupira w'imbeho n'umusatsi mukeya. Inyuma y'abo hari inkwi, hirya y'abo hari shitingi bicaye ku ntebe y'urubaho.

Umumama wishimye cyane ufite imisatsi igwa mu mugongo, uri kwifotoza areba ku ruhande wambaye ikanzu y'umutuku n'ikote ry'ubururu rihinnye mu nkokora, inyuma ye hari icyapa cy'ibara ry'icunga cyandikishijemo amagambo y'umweru, inyuma ye hari idirishya, imbere ye hari urugi rw'ibara ry'ikigina.

Umugabo uhagaze yishimye cyane yambaye ishati y'icyatsi n'ubwanwa n'umusatsi mukeya ku mutwe. Inyuma ye hari inzu zubatse mu bikenyeri n'ibishushanyo by'ingagi. Hari abantu benshi bambaye ingofero, batagaragara neza inyuma ye.

Umusore uhagaze imbere y'inyubako uri gufata ifoto, yambaye ipantaro y'umukara n'ishati igice kimwe ari umukara ikindi ari umuhondo. Inyuma ye hari inzu yanditseho amagambo ari mu ibara ry'ubururu, ifite inkuta zisa iroze. Impande ze zombi hateyeho ibiti.

Umunyeshuri wicaye mu ishuri wishimye cyane, yicaye ku ntebe y'umuhondo, imbere ye hari imeza y'umuhondo. Ari gutamira biswi, inyuma ye hari rido isa iroze irimo n'ubururu n'umuhondo. Inyuma ye hicaye akandi kana katagaragara neza.

Abana b'abanyeshuri bishimye, bamanitse ibiganza mu kirere, bambaye impuzankano z'ubururu, bari kwifotoza. iruhande rwabo hari inzu imwe yabateye ibiti hari n'itera ry'u rwanda ririmo ibara y'ubururuumuhondo n'icyatsi iruhande rwabo inyuma hari abandi bantu bari kugenda

Abantu bishimye cyane bazamuye amadarapo y'u Rwanda afite ibara ry'ubururu, umuhondo n'icyatsi, hagati yarimo izuba, ku kumurongo wa mbere hari akana kambaye umupira w'ubururu urimo uturongo tw'umweru, n'umugore wambaye ishati y'igitenge, hirya hari uwambaye isharupe mu ijosi, inyuma yabo ikirere gisa neza.

Umukecuru ushaje cyane wambaye ikanzu n'umupira munini wicaye hagati y'abana benshi b'abahungu n'abakobwa, biyogoshesheje bamwe bambaye iniforume n'imipira y'icyatsi bicaye hasi ku musambi.

Umuntu w'umusazi wambaye ubusa n'imyenda isa nabi cyane hasi, ufite imisatsi isa nabi wicaye muri ruhurura, iruhande rwayo hakikije n'ibyatsi afite ishashi mu ntoki n'udufuka tw'umukara n'umweru duteretse hasi imbere ye.

Umugore wikoreye igitebo kirimo imigozi y'ibijumba isa icyatsi, yikoreje ingata yambaye akadari mu ijosi, yambaye ikote n'agapira karimo ibara ry'icunga n'umukara, afite isuka mu ntoki ibiganza bye bisa nabi inyuma ye hari inzu isakaje amategura.

Abantu bari gufata ifoto y'urwibutso bose bahuriye hagati bafite igipapuro mu ntoki cy'umweru, ku ruhande hahagaze umugabo wambaye agapira k'umweru utari gukora ku gipapuro, inyuma yabo haparitse imodoka n'ibishararagati.

Abantu bari mu rugendo rwo kurwanya ihohoterwa harimo abapolisi umugabo w'imbere afite indangururamajwi yambaye ikoti ry'umukara n'umupira w'icyatsi mo imbere abandi bantu bari inyuma harimo abambaye umukara n'imipira y'icyatsi iruhande rwabo hari amazu urundi ruhande hari ibiti birebire.

Abana b'abanyeshuri bishimye cyane, bambaye udupira tw'umuhondo, bamwe muri bo bambaye udukomo ku kuboko, abandi bambaye ibipapuro mu mutwe, inyuma yabo hari abandi benshi batagaragara neza, hari akantu gatandukanya abahagaze n'abicaye.

Umwana w'umunyeshuri wishimye cyane, wambaye impuzankano, yicaye ku gatebe k'umuhondo, imbere ye hari imeza y'umuhondo, afite biswi mu kuboko agiye kuyirya, inyuma ye hari amarido y'iroze arimo n'umuhondo n'ubururu, iruhande rwe hari akana katagaragara neza.

Umukecuru wicaye yishimye cyane, ukenyeye ibitenge, yicaye ku gasongabugari afite imvi z'umweru, ari gukoroga mu isafuriya imbere iteretse ku ziko ry'inkwi, iruhande rwe hateretse umufuniko w'isafuriya n'igikombe cy'icyatsi, n'icy'ubururu, igikuta cy'inzu iri inyuma ye cyubakishije amatafari, gifite n'umuryango w'icyatsi n'amadirishya.

Abaganga babiri, harimo umukobwa n'umuhungu bambaye amataburiya y'umukara, umusore wambaye isaha ku kuboko, na ga mu ntoki, n'ishati y'umweru, n'amadarubindi, bari gusuzuma umubyeyi uryamye ku gitanda wambaye umupira w'ubururu n'akantu mu maso yipfutse.

Umuganga w'umwirabura wambaye agapfukamunwa na ga mu ntoki, uri gusuzuma umukobwa uryamye ku ntebe y'umutuku wambaye agapira k'umweru n'umukara karimo uturongo, afite imisatsi ikaraze migufiya, iruhande rwabo hari utubati dusa umweru n'amadirishya.

Icyumba cy'isuzumiro, kirimo intebesa icyasi n'umweru bicaraho basuzuma, imbere yacyo hari mudasobwa basomeramo ibisubizo, hejuru hari itara, iruhande rwayo hari akabati, imbere hari idirishya rifunze, amakaro y'iki cyumba asa umweru n'agatebe gatoya gafite icyuma n'intebe yicaraho y'icyatsi.

Icyumba cy'isuzumiro kirimo ibikoresho byinshi bifashisha basuzuma, harimo intebe y'umutuku bicaraho basuzuma, inyuma yayo hari akabati gafite ibara ry'umweru n'umukara, hejuru hari amatara ari kwaka, imbere yaho hari ibirahure, iruhande rwayo hari igikuta gisa shokora.

Abantu benshi bishimye bari gufata ifoto y'urwibutso nyuma y'inama, bamwe bahagaze inyuma, abandi baricaye, abandi barasutamye, inyuma y'abo hari icyapa kirimo amagambo y'ubururu n'umweru n'icyatsi, bari mu nzu hasi hari tapi isa icyatsi, abandi bafite terefone mu ntoki.

Abantu benshi batonze umurongo bafite n'impapuro mu ntoki bari ahantu hari kwisuzumisha no gupima ibiro, hari n'abaganga benshi bambaye amatabuririya y'umweru, inyuma hari igisharagati cy'umweru kiriho icyapa kiriho umuntu uri guseka n'amagambo yanditse mu mweru.

Abantu bari mu cyumba bicaye ku ntebe z'ibiti, imbere yabo hari imeza iriho igitambaro cy'umweru hateretse n'udukarito, abantu bambaye imipira y'icyatsi benshi na babiri bambaye imipira y'umweru bahagaze, umwe ufite akantu yakojeje mu kanwa, hirya hari umugore wambaye umupira wa oranje.

Umusore wambaye umupira w'umweru ufite ibisuko washinyitse uri gukoza akadodo mu kanwa, uri kumwe n'umwana nawe uri gukoza akadodo mu kanwa wasamye, ufite ibihanga wogoshe mu mutwe harimo uturango, wambaye umupira w'umweru, inyuma yabo hari akabati.

Umukobwa uri kwireba mu kirori yishimye cyane agifatishije ukuboko kw'ibumoso, yambaye itaburiya n'agapira k'umuhondo karimo uturongo tw'umweru, ufite ibisuko bifungiye inyuma, wambaye amaherena, iruhande rwe hari ibikoresho by'umweru n'akabati gafite ibara ry'ikigina, inyuma ye hari intebe.

Umusore wishimye cyane wazamuye amaboko afite akadodo k'umweru ari kugakoza mu menyo yasetse, ufite ibisuko bihengeye iruhande rumwe, ahandi ku ruhande hogoshe. Yambaye agapira k'umweru, ari kwireba mu kirori. Inkuta z'ahantu ari zisa umweru.

Umuganga wambaye ishati y'ubururu na karuvati y'umutuku n'itaburiya y'umweru na ga mu ntoki n'agapfukamunwa, uri kuvura umusaza wicaye ku ntebe y'umukara, amukoza akantu mu kanwa, umusaza wambaye umupira w'icyatsi. Inyuma yabo hari idirishya rifunguye igice kimwe n'amarido.

Umuganga wambaye ga z'umweru mu ntoki n'itaburiya y'umweru n'agashati k'imbere gafite ibara ry'icunga n'uturongo, wambaye amadarubindi n'agasatsi gakeya, uri gukoza ibyuma by'amenyo mu kanwa k'umwana uraramye, wogoshe agasatsi wambaye umupira w'ubururu.

Umurwayi w'umugore baryamishije ku gatanda bari kumusuzuma mu kanwa, umwe acanye itoroshi umuganga wundi ari kumukora mu kanwa. Bambaye ga, aba baganga bose bambaye rinete n'udupfukamunwa. Muganga umwe yambaye ishati y'umweru, undi yambaye ishati y'ubururu n'itaburiya y'icyatsi.

Abana b'abanyeshuri bishimye cyane bambaye impuzankano bari mu ishuri bamanitse uburoso bari kumwe n'umurezi wa bo wambaye ijipo y'umukara ufite ibisuko, inyuma yayo hari idirishya ririmo ibirahure n'uturongo tw'icyatsi.

Abanyeshuri bari mu ishuri bishimye cyane bazamuye uburoso hejuru n'amaboko yombi, bambaye impuzankano, bicaye ku ntebe z'igiti, inyuma yabo hari ikibaho cy'umukara, iruhande rwaho hari amadirishya arimo ibirahure y'uturongo tw'icyatsi.

Umukecuru uzamuye akantu k'iroza mu ntoki yambaye agapira k'ubururu ufite umusatsi w'umukara urimo utuvi dukeya, imbere ye hari umukobwa wambaye umupira w'umweru itaburiya y'ubururu bwijimye n'umusatsi umanuye ufunze neza.

Umukecuru wishimye cyane ufite imvi nyinshi uri guseka wambaye agapira k'imbeho karimo ibara ry'umukara n'iryo ivu, imbere yambaye agapira k'umweru uzamuye ibiganza bibiri ateruyemo utwuma dufite ibara ry'icyatsi.

Umuganga wambaye imyenda y'iroza wambaye ga mu ntoki z'umweru n'isaha ku kuboko n'agapfukamunwa n'amataratara, ufite ibisuko bizinze n'akantu mu ijosi gapima ari gupima umukecuru wambaye ikanzu y'igitenge w'imvi. Hirya y'abo hakaba hari ibyatsi.

Abagore babiri bari gutambuka, umwe yambaye umupira muremure w'icyatsi, uhininnye ku maboko, uteze igitambaro cy'umutuku mu mutwe, undi wambaye ikote ry'umukara n'ipantaro y'umukara irimo uturongo tw'umweru, yazamuye amaboko agera mu nkokora, ufite ibisuko, iruhande rwabo hari ibiti biteye.

Abantu bishimye cyane b'abirabura bicaye mu ntebe harimo akana gato hagati, harimo abagabo babiri n'abagore batatu, umugore umwe wicaye kuruhande yambaye ipantaro y'umuhondo n'agapira k'icyatsi ufite imisatsi igwa mu mugongo, ukurikiwe n'umugore wambaye umupira w'umuhondo, inyuma yabo hateye ibirabo, hejuru amatara yaka.

Umugore uri guseka w'umwirabura yishimye cyane ufite umusatsi mugufi w'umukara n'agapira k'umweru yambaye kerekana ijosi, ateruye agakoresho bakoresha muri siporo, inyuma ye hari abagore n'umugabo nabo bari muri siporo bishimye ariko batagaragara neza.

Umusaza w'umwirabura ufite imvi nyinshi ku mutwe wambaye n'ishati irimo uturongo ateruye umwana wambaye ishati irimo uturongo, ufite igipupe gisa kake mu ntoki, ufite agasatsi gakeya ku mutwe, igikuta cy'inkuta zabo zisa umweru.

Umugore w'umwirabura, uri guseka, yishimye cyane, uri muri siporo, wambaye agapira gaciye amaboko k'umweru. Ateruye icyuma bakoresha muri siporo mu kuboko kw'iburyo, inyuma ye hari n'abandi bantu bari muri siporo, na bo bishimye.

Umusaza n'umukecuru b'abirabura bafite imvi, bari kureba ku mpapuro ziteretse imbere yabo ku meza, umusaza afite telefone mu ntoki yambaye na rinete n'ishati y'umweru, umumama yambaye ishati y'iroza itoboye ku kuboko, inyuma yabo hari izindi ntebe n'igikuta cy'umweru.

Abagore batatu bishimye cyane bari gukina amakarita, umugore wa mbere yambaye agapira k'umutuku n'umusatsi w'umukara muremure ari guseka; uwa kabiri wo hagati afite imvi nyinshi mu mutwe n'urunigi mu ijosi, uwa gatatu yambaye agapira gaciyemo uturongo, amakarita ari ku meza imbere yabo.

Umugore w'umukecuru ufite umusatsi muremure urimo imvi nyinshi wafungiye inyuma wambaye akadali mu ijosi, yambaye isengeri ry'ibara rya move n'agasengeri k'umweru mo imbere, uri gukora siporo yishyize amaboko hasi n'amaguru hasi ku itapi isa ubururu, inyuma ye hari ikintu gisa umweru.

Abagore bishimye bambaye imyenda y'ibitenge, bari gusoroma icyayi, hagati yabo hateretse igitebo bashyiramo ibibabi by'icyayi, umugore umwe yambaye imyenda y'ubururu hejuru no hasi, undi yambaye umupira ufite ibara rya move n'igitenge.

Abantu b'abagabo bishimye bafatanye ku rutugu, umwe muremure wambaye umupira w'ubururu, ipantaro y'ivu n'inkweto z'umweru, undi mugufi yambaye ingofero n'ishati y'ubururu, n'ipantaro y'ubururu bwijimye n'inkweto z'umukara, bari kugenda mu kayira, hirya yabo hari ibyatsi, inyuma hateye ibiti.

Umusaza n'umukecuru bishimye cyane bari kurya, imbere yabo hateretse ikirahuri cy'amazi n'amasahani y'umweru, ariho ibiryo by'icyatsi n'umuhondo, umusaza ari gukata areba umugore, yambaye rinete afite n'ivi nyinshi n'ishati y'iroza. Umumama yambaye rinete ari gutamira.

Umusaza ufite imvi n'uruhara, wambaye ishati y'ubururu, ufite terefone mu ntoki, uri kwereka umugore ufite imisatsi ijya maso, wambaye akantu mu ijosi k'umweru n'ishati y'ubururu, imbere yabo ku meza hateretse teremusi y'umukara, inyuma amadirishya afunguye.

Abagore batatu bishimye cyane b'abakecuru bari gufata ifoto birebeshaho, uwo ku ruhande afite imvi yambaye agapira k'umweru, uwo hagati yambaye agapira k'umuhondo n'amaherena, uwo ku ruhande rundi yambaye agapira k'umweru n'amaherena.

Umusaza uri kugendera ku twuma dufasha abantu kugenda neza iyo bavunitse. Ari gufashwa n'umuzungu w'umuganga wambaye ijiri y'ubururu n'ipantaro y'ubururu. Inyuma yabo hari igikuta cy'umweru kiriho na tereviziyo y'umukara. Iruhande rwabo hateretse agatebe k'umuhondo.

Umusaza w'imvi nyinshi, wishimye cyane, uri kwarurira umugore we ku isahani ibiryo, wambaye umupira w'umukara n'ishati irimo imirongo inyuma, bari ku meza hateretseho amasahani n'ikirahure kirimo amazi, mu nzu yabo harimo amatara y'umweru yibirahure n'idirishya rifunguye inyuma.

Abagore batatu bari kureba muri telefone bibaza ibiyirimo, umugore wa mbere yambaye ingofero y'umweru n'umupira w'umukara n'amarinete, umugore wo hagati na we yambaye amarinete n'ikote ry'umukara n'agapira k'umweru mo imbere, umugore wa gatatu yambaye ingofero mu mutwe n'ikote ry'iroza.

Abantu benshi bicaye mu ruziga munsi y'igiti gifite ibibabi by'icyatsi n'umuhondo, bamwe bicaye ku ntebe z'umweru abandi bicaye ku ntebe z'ibibaho zirambuye abandi bicaye hasi. Harimo umuhungu wambaye imyenda y'umuhondo, inyuma yabo hari amazu y'ibyondo n'ibyatsi ku ruhande rwabo.

Abantu barimo abagore n'abagabo bazamuye amaboko bari kwifotoza, bamwe bafite isuka na telefone mu ntoki, hari ikirere kijimye cyane, bahagaze hagati mu byatsi birebire n'ibigufi, umugabo umwe yambaye nk'abisilamu n'ingofero mu mutwe.

Umuryango w'abantu batanu bishimye cyane, harimo umukecuru w'imvi nyinshi wambaye impeta n'ipantaro n'agapira k'umweru, harimo umukobwa ufite umusatsi mugufi n'agakanzu, n'akana kambaye ishati irimo uturongo, n'umusaza wambaye amadarubindi n'umugabo wambaye agapira k'ubururu.

Umusaza wicaye mu ntebe n'amadarubindi afite imvi mu mutwe, wambaye agapira k'ubururu, imbere ye hari ameza hateretseho ikirahure kirimo amazi, hari umukobwa wambaye agapira k'umuhondo uri kumuha imiti, imbere yabo hateretse ikaye.

Abantu bahagaze bifotoza bari gufasha umukecuru wambaye ibitenge bamuha ikiringiti, abandi bantu bo ku ruhande rwabo bari gukoma amashyi baseka, inyuma yabo hari imeza itatseho igitambaro cy'icyatsi n'ubururu.

Abantu bari kugenda mu muhanda w'igitaka, imbere hari abagore babiri b'abakecuru bambaye imikenyerero bafite n'inkoni mu ntoki. Umukecuru umwe afite imvi nyinshi, iruhande rwe hari umusore, wambaye bodaboda z'umuhondo. Inyuma yabo, hari ibyatsi n'insina ziteye.

Umuforomokazi wambaye impuzankano y'ubururu, ufite akuma gapima uko umutima utera mu ijosi gasa umukara, ari gusuhuza umugore w'imvi, wambaye linete n'agapira karimo uturongo dutambitse. Iruhande rwabo hari ibiti bisa icyatsi, inyuma yabo hari igikuta gisa umweruru, n'urugi.

Abagabo babiri bari kugenda bishimye cyane, bafite amacupa mu ntoki, umugabo wa mbere wambaye ipantaro y'ubururu bwi yijimye n'ikote ry'umweru, ufite uruhara n'uwo hirya yambaye ipantaro y'ubururu n'umweru, ishati y'umweru yuziritse umupira w'umukara mu ijosi, hirya hateye ibiti.

Umusaza n'umukecuru bishimye cyane bambaye imyenda yimituku bari kureba imiti imbere yabo umusaza wambaye linette umugore wambaye amaherena n'urugigi mw'ijosi imbere yabo kumeza hateretse amadarubindi n'ibikombe n'uducupa n'ibinini inyuma yabo hari igikuta cyumweru.

Abagore batatu bishimye cyane bari muri siporo bari kugenda mu muhanda, babiri bambaye imipira y'ubururu n'amapantaro y'umukara n'inkweto zifunze, umwe wambaye agapira k'ivu na linete. Umukecuru umwe yambaye ingofero mu mutwe, iruhande rwabo hari ibiti biteye, inyuma yabo hari abasore babiri bari kugenda nabo.

Umugore n'umugabo bashaje bishimye cyane bafite imvi bari gukina umukino ku meza yabo, umugabo yambaye agapira k'ubururu, umugore yambaye amaherena y'umweru n'agapira k'umutuku. Inyuma yabo hari amarido y'umweru n'umuryango ufunguye n'igikuta gisa umweru.

Icyapa kiriho amagambo yanditse mu cyatsi n'umukara, hariho ikarita y'Afurika, hariho umugore uteruye umwana wiyogoshesheje, umugore ateze igitambaro, inyuma ye hari abanyeshuri bambaye iforume n'umugabo wifashe neza.

Abagore bane bari kuganira bicaye mu cyumba k'isuzumiro bose bateruye abana, umugore wa mbere yambaye umupira w'umukara n'igitenge, uwundi yambaye agatambaro mu mutwe k'abisilamu, ku gikuta inyuma gisa umuhondo hamanitseho amashusho n'ibyapa bigaragaza icyo iki cyumba bagikoreramo.

Abantu benshi bari mu nama bamwe bicaye abandi bicaye imbere yabo bari gutanga ibiganiro harimo umugore ufite indangururamajwi uri kuvuga, inyuma y'abari gutanga ibiganiro hari icyapa cyanditse mu magambo y'umweru n'andi mabara menshi agaragaza iby'inama iri kuvugaho.

Abantu babiri bari kwifotoreza ku cyapa kiri mu magambo y'umukara, umugore wambaye ikanzu n'inkweto ndende, umugabo yambaye ishati y'ubururu n'ikote ry'umukara n'inkweto z'umukara, inyuma yabo hari igikuta gisa umuhondo n'amakaro ari hasi yabo asa umweru.

Abantu babiri bari kwifotoza bafite icyapa mu ntoki zabo, umuhungu wambaye ishati y'umukara, isaha mu kuboko, urunigi mu ijosi n'impeta mu kuboko, umugore wambaye agapira k'umweru karimo uturongo tw'umukara n'ipantaro y'umukara n'ikoti ry'umukara, inyuma yabo hari amatara amadarapo, iruhande rwabo hari intebe.

Abaganga batandatu bambaye imyenda yikwije bakoresha mu gihe cyo gutera umuti bose bambaye udupfukamunwa, inyuma yabo hahagaze umusore wambaye agapira ka move n'agapfukamunwa, ni nijoro, inyuma yabo hari inkingi ebyiri.

Icyapa cyanditseho ishusho cyanditswe mu magambo y'umweru ndetse n'aya oranje, hariho ifoto y'umugore wa perezida w'u Rwanda wambaye ishati y'icyatsi afite indangururamajwi imbere, uhagaze ku kameza ateretseho ibiganza.

Abantu bari mu mbwirwaruhame, ku murongo wa mbere hariho abagore batatu bambaye imipira y'umukara, umwe yambaye ingofero mu mutwe, imbere yabo hari imeza iriho ibitambaro by'amabara abiri atandukanye, rimwe ry'iroze irindi ari ikigina, umukobwa wambaye umupira w'icyatsi n'amataratara, inyuma hari abantu bambaye imipira y'umweru.

Abantu bari gufata ifoto y'urwibutso, harimo abagore batatu n'abagabo batatu, barimo umugore umwe munini, wambaye ikanzu y'umuhondo, abandi bagabo bambaye amakote, inyuma hari icyapa cy'ubururu, cyanditsemo amagambo y'umweru n'ikirangantego cy'u Rwanda, umukobwa uri ku ruhande we yashyize ibisuko imbere ye.

Abantu benshi barimo gufata ifoto y'urwibutso bahagaze imbere y'icyapa cy'ubururu gifite amagambo y'umweru, harimo abantu benshi bambaye imipira y'umweru n'amapantaro y'umukara, kuruhande rw'iburyo hahagaze umu DASSO wambaye ingofero y'icyatsi n'imyenda yi'icyatsi, inyuma haparitse imodoka.

Abantu biyubashye benshi bari mu cyumba cy'inama bicaye bamwe bambaye amakote abandi bambaye amakanzu, inyuma yabo hari ibikuta by'iroze hejuru birimo oranje bitandukanyijwe n'akarongo k'ivu, inyuma yabo na none hari akabati.

Abantu babiri bahagaze bari gufata ifoto y'urwibutso, umugore n'umugabo. Umugabo yambaye ishati y'uturongo n'ipantaro y'ibara rya kake, umukobwa yambaye ipantaroi y'ibara rya kakiyi n'agasengeri k'umweru. Inyuma yabo hari intebe z'umweru, iruhande rwabo hateretse ameza magufi, inyuma yabo hari icyapa kigaragaza ibyo bari barimo.

Umuntu uryamye hasi mu byatsi ku gatanda k'ubururu, uri gukorerwa ubuvuzi bw'ibanze wambaye ipantaro y'umukara n'ishati ya karokaro, abaganga babiri bambaye amataburiya y'umweru n'udupfukamunwa, abandi baganga bambaye utujiri, inyuma yabo hari igiti giteye kirekire.

Icyapa kiri mu ibara ry'umweru n'iroza handikishijeho amagambo y'umweru n'ijambo rimwe ry'icyatsi, ririho umuntu wambaye ishati y'umweru w'umusore udafite ubwanwa ufite umusatsi mukeya, kuri iki cyapa hariho amagambo hariho n'amatariki.

Abantu bari mu cyumba cy'inama, imbere hari abantu bicaye batatu bambaye amakote, ku meza yabo hariho igitambaro cy'icyatsi hateretseho uducupa tw'amazi hari umwe uri gufata amashusho.

Icyumba kirimo ibikoresho by'umukara, intebe z'urubaho na kizimyamwoto y'umutuku, ibi byumba bifite amadirishya arimo ibirahure n'utuntu tw'umukara tuyazengurutse, harimo amatara abiri amanitse hejuru ataka, harimo n'ikirori.

Icyumba cy'isuzumiro kirimo ibikoresho bifashisha mu gihe cyo gusuzuma, hari intebe baryamaho iriho igitambaro cy'icyatsi, imashini zimanitse zizana urumuri, udutanda bakoresha basunika ibikoresho n'idirishya rifunguye, ibikuta by'iyi nzu bisa umweru.

Icyapa kinini cyane cy'umweru kirimo ibice bitandukanye byanditswe mu magambo y'umukara, umweru n'iroza, iruhande rwayo hari igipangu kiri mu ibara ry'ivu, iruhande rwayo nanone hari umuhanda wa kaburimbo, inyuma hari akamoto.

Umuntu wambaye imyenda y'umweru bakoresha mu gihe cyo gutera imiti afite inkoni y'umukara, iruhande rwe hateretse indobo y'icyatsi, inyuma ye hari inzu n'imiryango y'ibirahure, iruhande rwe nanone rw'iburyo hateretse indobo y'ubururu.

Umuforomokazi wambaye itaburiya y'icyatsi n'igitambaro cy'umweru mu mutwe na ga mu ntoki, uri kwambika akana k'agahinja karyamye mu mashini, kambaye ubusa hejuru, hari imashini zicometse nyinshi zisa umweru n'ubururu.

Icyumba cyo kwa muganga cy'isuzumiro kirimo ibikoresho bifashisha bakoresha basuzuma, harimo intebe eshatu z'umuhondo zirambuye, harimo utubati tw'umweru, imashini na mudasobwa basomeramo ibisubizo. Inkuta z'iki cyumba zisa n'umweru hasi hasa umweru.

Inyubako nziza cyane ifite ibara ry'umweru n'ibara ry'ivu harimo idirishya ry'ikirahure, hateye indabo z'icyatsi zifite uturabo tw'umutuku, inyuma hahagaze abantu, umumama wambaye ikanzu n'umusore wambaye ikote ry'umweru.

Icyumba cy'isuzumiro kirimo imashini nini cyane baryamishaho umuntu basuzuma indwara zose zo mu mutwe no mu nda. Zifite imashini hejuru, harimo amatara yaka n'akabati ka kaki iruhande rwayo.

Inzu ifite inkingi eshatu z'amatafari, ifite icyapa cy'umweru kinini hejuru cyandikishijeho amagambo y'umukara, hagati hari imiryango y'ibirahure, impande hateye utwatsi, hejuru hari ikirere gisa neza.

Icyumba cyo kwa muganga, kirimo igice kimwe kirimo ibitanda byo kwa muganga gikikijwe n'amarido y'icyatsi n'umweru, n'akandi kazu gatoya gafite ibikuta by'umweru no hejuru hasa icyatsi. Amakaro ya hano hantu asa umweru, harimo amatara acanye.

Inzu ifite amadirishya manini arimo ibirahure bibonerana, mo imbere hagaragaramo umugore wambaye isharupe y'ubururu n'umuganga wambaye itaburiya y'umweru. Hanze hahagaze umugabo wegamye ku gikuta, imbere ye hari abagore babiri, umugore umwe uteze igitambaro.

Inzu ifite amadirishya n'ibirahure bibonerana, mo imbere harimo umuganga wambaye imyenda y'umweru n'undi mu mama wambaye isharupe y'ubururu, hanze hahagaze umugabo wegamye ku gikuta, imbere ye hari abagore babiri, umwe uteze igitambaro.

Icyumba cyo kwa muganga, kirimo ibyuma basuzumiramo, harimo igitanda gisasheho amashuka y'umweru, harimo abantu bambaye amataburiya y'umweru n'ay'ubururu, ibitambaro mu mutwe, imbere hari ibyuma by'umukara bareberamo amashusho, hejuru amatara acanye, harimo icyuma.

Icyumba cy'abarwayi kirimo ibitanda bishasheho amashuka y'umweru n'ibiringiti bya kaki, hagati harimo agakuta gatandukanye bitanda gasa umuhondo, hamanitsemo supanete n'amatara y'umweru hejuru, hafite amadirishya n'ibikuta by'umweru.

Amazu y'imigereka yubakishijwe amabati y'umutuku, afite ibikuta by'umuhondo bifitemo n'ibirahuri. Abantu bari kwambuka umuhanda bitwikiriye umutaka, imbere y'inzu y'iburyo hateretse idarapo, hari icyapa kiranga ibyerekezo abanyamaguru bagendamo.

Umuganga wambaye itaburiya, isaha ku kuboko, agapira ka oranje n'ipantaro y'umukara, wicaye ku ntebe y'icyatsi, mu cyumba cyo kwa muganga harimo intebe baryamaho isa icyatsi, harimo idirishya rifunze n'ibikoresho bisa umweru.

Icyumba cy'abarwayi cyo kwa muganga, kirimo ibitanda bine bishashe neza n'amashuka y'icyatsi, gifite idirishya rinini cyane, rifite akabati gafite ibara ry'ubururu n'umweru, hasi hari amakaro y'umweru, igikuta kimwe gisa umweruru ikindi gisa icyatsi.

Icyumba cyo kwa muganga gifite ahantu bakirira abantu baje gushaka amakuru n'abaje babagana, hejuru yaho hari amatara azengurutse ari mu ibara ry'umukara, hagati harimo inkingi y'umukara. Inkuta zayo ziriho inyuguti ryanditse risobanura izina ry'ibitaro...

Icyumba cy'uruganiriro gifite intebe zisa ubururu, amaguru y'ikigina, utumeza tugufi turi hagati yatwo, ku gikuta hashushanyijeho ibishushanyo, ibikuta bisa umweru, hasi amakaro asa umweru, hari amadirishya n'imiryango.

Icyumba cy'abarwayi cyubatse muri shitingi, kirimo abagabo babiri baryamye, n'abaganga babiri bari kubasuzuma, bambaye udupfukamunwa na ga n'amataburiya y'umweru. Umugabo umwe uryamye yambaye agapfukamunwa k'umukara, ibitanda baryamyeho bifite isaso y'ubururu n'ibiti by'umweru.

Inyubako igeretse ifite amabati y'ubururu n'ibikuta by'ubururu bwijimye n'ubwerurutse n'amadirishya, imbere yaho haparitse imodoka, hahagaze abantu imbere bambaye amashati y'umweru, n'abandi bambaye umukara, iruhande rwayo hari akandi kazu gatoya karimo umuntu uri imbere, abandi bari hanze.

Icyumba cyo kwa muganga cy'isuzumiro, kirimo ibikoresho bakoresha basuzuma, harimo igitanda gisashe amashuka y'umweru, harimo akabati k'umweru gateretseho mudasobwa imwe, hariho izindi mudasobwa zimanitse basomamo ibisubizo, inyuma hari itara.

Inzu nziza cyane, igice kimwe cyubatse mu buryo bw'uruziga rw'ibara ry'ivu, gifite amadirishya arimo ibirahure by'umukara, n'akayira kajyayo kayizamukamo, iruhande rwayo hateye ibiti, inyuma hari indi nzu yubakishije amatafari y'umugereka.

Inzu igeretse ifite igice kimwe kiriho amabati y'umutuku, inkuta zayo zisa umuhondo n'amadirishya amwe afunze andi afunguye arima ibirahuri. Hari abantu hanze bambaye imipira y'ubururu, haparitsemo imodoka indi modoka iparitse hanze y'igipangu, ifite igipangu kiriho icyapa cy'umweru.

Inzu ifite ibikuta by'umweru biriho n'utubara tw'ivu n'ibyapa by'ivu byanditseho n'amagambo y'umukara, indobo irimo ururabo rw'icyatsi na yo isa ivu, iruhande hari umuryango w'ikirahure n'utuntu two ku ruhande rw'ivu, hejuru hari icyapa cy'utuntu tw'umutuku, hejuru amatara acanye, hasi yubakije amakaro.

Ibitaro bifite abantu benshi hanze, bamwe bambaye udupfukamunwa neza, abandi batumanuye, harimo abantu bambaye imipira y'icyatsi n'igisharagati ku ruhande, inkuta zisa umuhondo, iruhande rwayo hari inzu ifite amabati y'icyatsi, iriho abantu bari gusuzumwa.

Icyumba cy'isuzumiro cyo kwa muganga kirimo umuganga wambaye agapfukamunwa n'itaburiya y'umweru, uhagaze imbere y'imashini y'umweru ifite akantu k'ubururu, harimo idirishya rifite ibirahure n'utuntu tw'ubururu, harimo intebe y'umukara, akabati k'umukara hejuru n'utugozi ducometse.

Inzu igeretse yubakishije amatafari ahiye ifite amabati y'ibara ry'icunga, imbere yayo hari ubusitani n'uduhanda twagenewe kugenderamo, ifite amabara y'umukara ku ruhande akayira bakoresha bazamuka bajya hejuru.

Inzu y'ikigonderabuzima cya gishweru yubakishije amatafari hejuru, hasi hari irangi ry'muhondo n'amadirishya y'icyatsi. Imbere yayo hahagaze abantu batatu umwe wambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'umukara, inyuma hicaye umusore ku ntebe y'ikibaho iruhande rwayo hari abandi bagore bari kugenda.

Abaganga bambaye impuzankano zirimo imipira y'ubururu n'amapantaro y'ubururu, bose bambaye utupfukamunwa bazamuye ibiganza bari kwifotoza, inyuma hari icyapa cyanditse n'amagambo y'icyatsi n'umukara manini, wo ku ruhande yitandukanyije nabo yambaye n'akantu mu ijosi gasa umukara.

Icyumba cyo kwa muganga, ku nkuta zacyo z'umweru, hashushanyijeho ibishushanyo byinshi cyane by'abana n'umugabo munini, imbere hari televiziyo y'umukara, hejuru hari amatara abiri acanye, harimo igitanda gishashe amashuka y'ubururu n'umusego w'umweru, harimo n'agatebe k'umukara.

Inzu nziza cyane ndende yubatse igice kimwe n'amatafari ikindi gice gisize irangi ry'umweru hirya hari akandi kazu gatoya k'umweru gafite amadirishya y'ubururu iruhande rwayo hateye ibiti n'igipangu cyubatse n'amatafari imbere yayo hari ubusitani.

Icyumba cy'abarwayi kirimo ibitanda bibiri hariho matera zisa icyatsi n'amashuka y'umweru, igitanda kimwe kiryamyeho umusaza ikindi cyo hirya kiryamyeho umwana, inkuta z'iki cyumba zisa umweru hacometseho imashini zifasha aba bantu guhumeka.

Inzu yo kwa muganga y'ababyeyi yakirirwamo ababyeyi bagiye kubyara, ifite ibikuta by'umweru n'amadirishya afite ibara ry'ivu, afunguye n'imiryango, amabati y'ubururu, inyuma yayo hateye ibiti, imbere yayo hari icyuma gikurura imirasire y'izuba, amakaro y'umweru.

Inzu nziza cyane y'umugereka yubakishije amatafari ifite amadirishya, y'umukara, n'ibirahure, iruhande rwayo hateye ibiti bifite amabara y'ubururu, n'umuhondo, akayira kayigana gasakaye gakikijwe n'ibyatsi.

Igipangu kigana ku bitaro gisa ubururu, kiriho ibikuta by'umweru bishushanyijeho imitako, hari icyapa cy'ubururu cyanditseho amagambo y'umweru n'umuhondo, inyuma hari inyubako zisakajwe amabati y'ubururu, zifite inkuta z'umweru n'ibiti birebire.

Umuganga uri mu cyumba cy'isuzumiro, wambaye ga z'ubururu, ufite icupa mu ntoki ripfundikije umufuniko w'ubururu n'agafukamunwa n'itabiririya y'umweru, muri iki cyumba harimo imashini nyinshi zicometse, harimo akabati k'umweru k'ibirahure n'intebe y'umukara yo kwicaraho.

Icyumba cy'isuzumiro kirimo ibikoresho byinshi, harimo igitanda cy'icyuma kiriho amashuka y'umweru giteretseho na serumu n'imisego ibiri. Harimo amadirishya abiri afunze n'igishushanyo inyuma y'ibi byuma. Harimo mudasobwa bareberamo basuzuma.

Umwana wambaye agasarubeti k'umweru bamushyize mu munzani bari kumupima, umunzani umanitse hejuru; iruhande rwe hari umumama ufite umusatsi mugufi w'umukara wambaye ishati y'umweru, iruhande rwe rundi hari umumama wambaye ibitenge n'amaherena, igikuta gisa umuhondo n'amakaro y'icyatsi.

Inzu y'ibitaro y'umugereka ndende cyane, ifite ibirahure n'ibikuta bisa umweru, iteyeho ibiti, imbere yabyo hejuru handitse mu magambo y'icyatsi aranga iyi nzu, imbere yayo hari igipangu kizamuye.

Inzu nziza yubatse ku buryo bw'uruziga ifite ibara ry'ivu na oranje, harimo ibirahure n'akayira kazamuka gafite uturindabasazi tw'umukara, iruhande rwayo hari iyindi nzu y'umugereka yubatse mu matafari, utuyira dukikijwe n'ibyatsi.

Icyumba cyo kwa muganga bakiriramo abarwayi kirimo intebe ebyiri z'ibiti zifite aho bicara h'umweru naho kwegama hafite ibara ry'ivu, hateretsemo ameza ateretseho mudasobwa, ku gikuta hariho igishushanyo cy'abantu babiri, harimo rido n'ibikuta bisa umweru.

Abantu benshi bicaye ku murongo hagati yabo harimo imyanya intebe bicayeho zisa umukara, umukobwa wa mbere yambaye agapfukamun n'agatambaro k'ubururu mu mutwe n'ikanzu y'ibara ry'iroza, wambaye ikamambiri, imbere ye hahagaze umuntu wambaye agapfukamunwa k'umweru n'umupira w'umweru, hirya abantu bahagaze ari benshi.

Umuganga w'umusore wishimye cyane ufite impapuro mu ntoki n'akantu mu ijosi gasuzuma uko umutima utera, yambaye ishati y'umukara n'itaburiya y'umweru, afite umusatsi mugufi ari guseka, yambaye rinete, inyuma ye hari umugore wambaye ikanzu y'igitenge wifashe ku nda.

Inzu bakiriramo abakorewe ihohoterwa rishingiye ku gitsina ifite ibara ry'umweru hejuru, ryanditse mu magambo y'ubururu, yubakishije amatafari, ifite idirishya ry'umweru ririmo ibirahuri bifunguye, ku kirahure hariho igipapuro.

Icyumba cy'abarwayi kirimo ibitanda byinshi bisashe neza mu mashuka y'umweru, hariho umurwayi umwe uryamye, ibikuta bisa umweru, hejuru hari amatara na supanete, ibikuta bimwe bifite ibara rya oranje n'utundi twuma ducometse.

Umusore mutoya uri mu cyumba cyo kwa muganga wambaye ishati y'ubururu ufite mudasobwa imbere ye kumeza n'indi nini iri iruhande rwe irimo ibishushanyo ari kurebamo iruhande rwe hari amadirishya afunze, iruhande rwe nanone kumeza hateretse akantu k'ubururu.

Inzu y'ibitaro yubakishije amatafari isakaje amabati y'ubururu iriho ibyapa, gishushanyijeho ijisho n'amagambo y'ubururu, ikindi cyanditse mu magambo y'ubururu gifite amadirishya n'inkingi bisa umweru, imbere yayo hateye uturabo.

Inzu y'umugereka yubakishije amakaro inyuma n'ibirahuri by'ubururu, imbere hari icyapa cy'umweru cyandikishijemo amagambo y'umweru n'andi y'umukara. Hejuru hari ikirere gisa ubururu, iruhande rwayo hateye igiti.

Umuganga ufite igitabo imbere ye n'akantu mu ijosi gasuzuma n'itaburiya y'umweru uri kubaza umumama wambaye igitambaro mu mutwe n'amaherena n'agapira k'ibara ry'ivu bicaye hagati harimo ameza, inyuma ye hari umuforomokazi wambaye impuzankano z'ubururu.

Inzu y'igorofa yo kwa muganga ifite inkuta z'umweru, imbere yayo hari idarapo ifite ibirahure binini, igipangu cyayo cyubakishijeje amatafari n'ahandi hasize ibara ry'ivu, igipangu cyinjiramo cy'ibyuma gisa ubururu, hateye ibiti imbere yaho, imbere yaho hari icyapa cy'umweru cyanditse mu magambo y'umukara.

Umurwayi w'umusore wambaye ishati y'umweru wishimye cyane, aryamye ku gitanda cyo kwa muganga kiriho amashuka y'umweru n'ikiringiti gisa nk'ibara ry'ivu, iruhande rwe hari imashini nyinshi n'imigozi bicometse byaka.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibitanda by'umweru bishasheho amashuka y'umweru, amarido y'ubururu, supanete z'umweru hejuru, amatara ku gikuta cy'ubururu ari kwaka, amadirishya afunguye n'umuryango usa umukara, imbere yaho hari utubati tw'umweru.

Inzu ifite ibara ry'umweru n'inzugi z'ubururu zirimo ibirahure, hejuru hari icyapa cy'umweru cyandikishijemo amagambo y'icyatsi n'ubururu n'umukara, ku muryango hahagaze umuntu wambaye agapira k'umweru, imbere haparitse ipikipiki.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibyuma binini by'umweru, inyuma hari akaziga k'ubururu n'akandi ko hagati, hariho igitanda gishasheho amashuka y'umweru gisa umukara, harimo umuntu wambaye itaburiya y'umweru ibikuta bisa ubururu n'umuryango.

Inzu y'ikigo nderabuzima igeretse, isakaje amabati y'ubururu, inkuta zayo zisa umweru, ifite icyapa cy'umuhondo cyanditse mu ibara ry'umukara, imbere yayo hari idarapo, hateye ubusitani n'akayira kajyayo karimo utubuye.

Icyumba cyo kwa muganga basuzumiramo gifite imashini nini y'umweru ifite utubara tw'ubururu tuzengurutse, imbere hari igitanda cy'umukara gisasheho agashuka k'umweru, hari umuganga wambaye Itabuririya y'umweru inyuma ye hari umuryango, wambaye n'aga n'agapira k'ubururu mo imbere.

Inzu y'umugereka ifite icyumba cyo hasi bagurishirizamo imiti yo kwa muganga, ifite inzugi z'icyatsi ifite icyapa hejuru cy'umweru n'icyatsi kiranga ibiyikorerwamo, imbere yayo haparitse imodoka hari n'indi miryango hirya nanone bakoreramo ibindi bikorwa bitandukanye.

Icyumba cyifashisha bari gukora siporo kirimo imashini nyinshi zitandukanye, hariho imiryango ifunguye inyuma yaho hari ubusitani, hejuru y'iki cyumba hariho ibara rya kake, ibi byuma kandi hari ibisa umukara n'iby'umweru.

Inzu y'ibitaro ifite amadirishya amwe mato n'andi manini yubakishije amatafari, iruhande rwayo hari icyapa cyanditse mu ibara ry'umukara n'umweru gisa icyatsi, giteye mu byatsi, gikikijwe n'indabo, iruhande rwayo hari igiti kirekire cyane.

Inyubako igeretse yubakishije amatafari ahiye n'amadirishya y'ibirahure, hejuru hariho icyapa cyanditse mu ibara ry'icyatsi n'umukara, imbere yayo haparitse imodoka enye n'umutaka ku ruhande, inyuma yayo hari ibiti, hari n'utundi twapa dutoya tugaragaza ibice by'iyi nzu.

Icyumba bakoreramo siporo, kirimo imashini n'ibikoresho byinshi bakoresha siporo, harimo idirishya ry'ibirahure, inkuta zayo zisa umweru, ku gikuta kimwe hariho isaha iri kubara, ibi ibyuma bisa umukara, hariho na televiziyo y'umukara.

Icyumba cyo kwa muganga, cy'abarwayi, kirimo ibitanda bisashe neza, amashuka y'umweru, n'imisego ibiri y'umweru, ku gitanda cya mbere hateretseho amashashi, n'impapuro ziri mu kintu cy'umuhondo, amadirishya afunguye, hejuru amatara acanye, n'amakaro hasi.

Icyumba cy'isuzumiro kirimo ibikoresho byinshi harimo igitanda kiryamyeho umuntu wambaye ishati y'icyatsi n'amashuka y'umweru, imashini zicometse na mudasobwa bareberamo ibisubizo, inkuta z'iki cyumba zisa umweru, hasi hari amakaro asa umweru n'andi asa icyatsi.

Umukobwa w'umuganga wicaye, wambaye itaburiya y'icyatsi, uri kwambara agapfukamunwa na ga z'ubururu mu ntoki, ufite ibisuko biryamye ku mutwe, imbere ye hari ameza ateretseho impapuro na mudasobwa, iruhande hari ikirabo cy'icyatsi kiri mu ivaze.

Umuntu uri gukora ubugororangingo ku kuguru k'umuntu wambaye ikabutura y'umukara n'ibara ry'ivu, uri gukora ubugororangingo yambaye itaburiya y'umweru uyu muntu aryamye ku gatanda k'ubururu, inyuma yabo hari igikuta gifite ibara ry'umweru.

Umuntu w'umugabo uri muri siporo wabize ibyuya uri kunywa amazi mu icupa ribonerana, yambaye agapira kamufashe ku maboko k'umukara afite n'umusatsi w'umukara, inyuma ye hari igikuta cy'umweru afite agaheri ku itama.

Umuntu w'umuzungu wambaye ikabutura y'umukara n'umupira w'umuhondo n'inkweto z'umukara, uri kugendera mu kamashini gafasha abantu kugenda gasa ubururu, imbere ye hahagaze umusore wambaye ikabutura y'umukara n'umupira w'ubururu, ufite umupira wo gukina mu ntoki, inyuma yabo hari ibyatsi n'amazu.

Icyumba cy'isuzumiriro n'ibikoresho bakoresha bari gusuzuma, muri ibi bikoresho harimo intebe bicaraho bari gusuzuma isa icyatsi, hariho mudasobwa bareberamo ibisubizo, harimo ibikoresho bireba mu kanwa munda n'ahandi mu bice bitandukanye by'umubiri.

Agakapu k'ibanze bashyiramo ibikoresho by'ibanze bari gufasha umuntu ugize ikibazo cy'ako kanya, gasa oranje kandikisheho amagambo y'umweru. Muri ibi bikoresho harimo umukasi, ibikwasi, ibipfuko, uducupa n'umukandara.

Agasahani k'igiti kari mu bwoko bw'umutima gateretseho imbuga n'imbuto harimo pome voka n'ishu. Hasi hari itapi bakoreraraho siporo hari utwuma baterura muri siporo n'icupa ry'amazi n'inkweto zifite akantu k'umuhondo hasi.

Umukobwa w'umwirabura uri gukora siporo, yicaye yahinnye umugongo ari gukora ku nkweto, yambaye agakabutura k'ubururu, karimo uturongo tw'umweru n'agasengeri k'ibara ry'icunga ryijimye, afite imisatsi igwa mu mugongo.

Abaganga babiri umugabo n'umugore bambaye amajiri y'umutuku n'udupira tw'umweru bari kuvura umukinnyi uryamye hasi waguye, inyuma yabo hahagaze abakinnyi bambaye imyenda y'umuhondo n'iy'icyatsi n'umufotozi wambaye umupira w'umweru ufite kamera.

Umusore w'ibigango wambaye ikote ry'ibara ry'icyatsi rifite imashini y'umukara n'ingofero mu mutwe, wicaye wahinnye amavi, yambaye ikabutura y'umukara, uri kunywa amazi mu icupa ribonerana, imbere ye hateretse igikapu cy'umukara, inyuma ye hari inzu yubakishije amakaro.

Umuntu wavunitse wicaye ku gitanda wambaye imyenda y'umukara n'urukweto rumwe mu kaguru kamwe uri gupfukwa n'umuzungu na we wambaye imyenda y'umukara, inyuma yabo hari ibishushanyo n'akabati karimo amasume, iruhande rwabo hari idirishya rifunguye.

Icyumba cy'imyitozo bakoreramo ubugororangingo, gifite ibyuma byinshi bimwe bise umukara, intebe yo kwicaraho y'ubururu ifite amaguru y'umweru, ku gikuta, ibikuta bisa ivu, harimo inkingi hagati, imipira imanitse hejuru, amatara ari kwaka n'amadirishya afunguye, harimo n'abantu.

Umusore w'ibigango wambaye isengeri y'ubururu yihinahinye imbere, wazamuye amaboko yombi ayafatishije agacupa kabonerana gafite umufuniko w'umukara, uri kwimena amazi mu maso, yambaye agakomo k'ibara rya move ku kuboko, inyuma hari igikuta.

Umukobwa muremure uri gukora siporo wambaye ipantaro y'umukara n'agasengeri k'umukara, uryamye hasi yazamuye ukuguru agufashe n'amaboko ari kugushyira mu gitugu. Aryamye ku gasambi k'umukara, igikuta gisa umweru cy'amatafari, hari n'amadirishya.

Icyumba cya siporo kirimo umugabo umwe wambaye agapfukamunwa, ipantaro y'umukara n'ishati y'umweru uri kureba umugore uri kwirukanka wambaye isengeri y'umweru w'umuzungu ku kimashini gituma abantu birukanka, ibi bikoresho biri mu ibara ry'icyuma n'umukara.

Umuntu w'umusore uryamye ku gitanda gisa ubururu, bari gukorera ubugororangingo, yambaye amasogisi y'umukara, agapira k'ubururu bwijimye, ikabutura y'umweru irimo utuntu tw'umutuku n'isaha y'umweru ku kuboko, urikubimukorera yambaye ipantaro ya kaki n'umupira w'ubururu bwijimye, hirya yabo hateretse imitini n'uducupa.

Abantu bari gukora imyitozo mu kibuga bambaye amasengeri y'umweru arimo uturongogo tw'umukara n'amakabutura y'umukara abandi bambaye amakabutura y'umweru, hirya hari uruvange rw'abantu ruri kubareba inyuma hari insina.

Umukobwa muremure w'umuzungu uri muri siporo wambaye ipantaro y'umukara n'agasengeri k'umweru ufite imisatsi myinshi igwa mu mugongo, yazamuye amaboko mu kirere imbere ye hari amazi menshi iruhande rwe hari urumuri rwinshi.

Umuntu bari gufasha kugorora ingingo ufunze igipfunsi apfumbatiye akantu k'ubururu, wambaye ishati y'ubururu afashwe n'umuntu w'umuzungu, wambaye itaburiya, umuntu yicaye ku ntebe isa umukara, inyuma ye hari ibyuma by'umweru n'amadirishya afunguye.

Umu mama wicaye ateruye umwana amufashe no mu mutwe wambaye agapfukamunwa n'imyenda y'umuhondo, umuganga ari gusuzuma uyu mwana yifashishije igikoresho gisa umuhondo, yambaye imyenda y'ubururu n'agapfukamunwa yicaye ku ntebe y'umukara, iruhande rwabo hari ameza ateretseho mudasobwa n'imigozi myinshi,

Umuntu wavunitse ukuguru wicaye ku ntebe y'ubururu uri gupfukwa n'umuntu wambaye umupira w'ubururu n'ipantaro ya kaki; umuntu uri kumupfuka yambaye isaha y'umukara ku kuboko, ku ntebe yicayeho umuntu wavunitse hariho umukasi, yambaye urukweto mu kaguru kamwe.

Isahane ikoze mu ishusho y'umutima, iriho imbuto nyinshi zitandukanye harimo urunyanya n'igitunguru n'utundi dufu dutoya, igikoresho bakoresha kwa muganga basuzuma indwara z'umutima n'uko uri gutera, umugozi wo gusimbuka uri mu ibara ry'umukara n'utuntu bafataho tw'umuhondo, inkweto zo gukoresha siporo zirimo na rase.

Umukinnyi uryamye mu kibuga yavunitse, yazamuye akaguru, wambaye ikabutura y'umukara n'amasogisi maremare y'umukara, n'agapira k'ubururu, ari gukandwa n'uwambaye agapira k'ubururu, ikabutura y'umukara n'inkweto z'umutuku, baryamye mu kibuga cy'umupira w'amaguru. Hirya hari abandi bakinnyi bari gukina, n'amazamu.

Icyapa kiriho abantu babiri bari kwerekana umukino wa karate, umwe yambaye impuzankano y'umweru undi yambaye impuzankano y'ubururu bari mu ruziga rw'umukara, hariho amagambo yanditse mu ibara ry'icyatsi n'imirasire y'izuba ry'umuhondo.

Umukobwa muto uri muri siporo uryamye ku gatapi ka shokora, yambaye ipantaro y'umukara n'agasengeri karimo ibara ry'iroze n'ivu, afite ibisuko bifunze iruhande rwe hari amavaze atatu arimo, indabo ako hagati gasa umutuku.

Udukapu turimo ibikoresho by'ibanze bifashisha bakoresha mu gihe bavura umuntu ugize ikibazo, duteretse hasi, hagati harimo agacupa k'umweru mu byatsi, inyuma yaho hari abagabo batatu bambaye amapantaro y'amakoboyi, inyuma hari abandi batagaragara bicaye mu byatsi.

Umukobwa w'umwirabura ufite imisatsi ifunze, wambaye amaherena, wazamuye ukuboko uri kunywa amazi mu icupa ribonerana, yambaye agasengeri k'umukara kerekana inda, n'ipantaro y'umukara, afite akantu kajyamo terefoni ku kuboko.

Umukobwa uri muri siporo yarambuye amaboko aboshye amaguru wambaye amasogisi y'umweru n'impeta mu ntoki, afite imisatsi igwa inyuma wicaye ku itapi isa n'ivu, inyuma hari agatebe gasa n'ibara ry'ikigina, hirya hari intebe isa umukara igikuta gisa umweru cyanditseho amagambo y'umukara n'umweru.

Umuganga wambaye agapfukamunwa afite umusatsi mugufi wumukara, ufite agakoresho basuzumisha mu ijosi n'itaburiya y'umweru uri gusuzuma umwana amutunze igikoresho cyaka mu kanwa, akana kakambaye agapira k'ubururu, inyuma yahagaze umugabo wambaye agapfukamunwa imbere yabo harira ameza.

Umuntu w'inzobe uryamye bari kumukorera ubugororangingo n'agakoresho k'ubururu. Aryamye ku isume y'umweru, umuntu uri kumukorera yambaye umupira w'umukara. Inyuma yabo hari igikuta gisa oranje.

Ibikoresho byo kwa muganga biba mu gakapu k'ibanze kifashishwa iyo bagiye gufasha umuntu ugize ikibazo. Muri ibi bikoresho harimo: umukasi, itoroshi, agapfukamunwa, harimo ga, harimo n'ibinini wakWifashisha igihe urwaye.

Icyapa cy'umweru cyanditseho amagambo ari mu ibara ry'umukara agaragaza Federasiyo y'amasiganwa mu Rwanda, hariho idrapo ry'u Rwanda riri mu mabara y'ubururu n'umuhondo n'icyatsi, hariho umuntu uri kwiruka wambaye imyenda y'umutuku.

Abantu babiri bari muri siporo bose bafite amacupa y'amazi mu ntoki bambaye amakabutura y'umweru umwe yambaye isengeri y'bururu, iruhande rwabo hari imisozi igaragara inyuma n'ibyatsi biteye mu nzira bari kugendamo.

Umugore w'umwirabura umanitse amaboko mu kirere ayafatanyije, afite ibisuko by'umukara bifungishije agatambaro k'iroze, yambaye igitambaro cy'umukara mu mutwe, amaboko ye agaragazaho igicucu ahandi hari gukubitaho izuba.

Umukobwa w'umwirabura ari muri siporo, wambaye isaha y'umukara ku kuboko, yazamuye amaboko abiri yayabusanyije mu kirere, wambaye agasenge k'ibara ry'icunga kageze mu nda hagati, imbere ye hari amatafari.

Umuntu uri kunywa amazi usa nkaho ari igicucucucu, ufite icupa ribonerana ariko ryo mu ibara ry'ubururu, inyuma yabo hari urumuri rwinshi n'ikirere kirimo ibara ry'umweru n'ubururu n'ibara ry'ivu.

Icyumba cyo kwa muganga cy'isuzumiro kirimo n'ibikoresho bakoresha basuzuma, kirimo umugabo wambaye ishati y'iroza, wicaye ku ntebe y'umweru, imbere ye hari akabati gateretseho mudasobwa, ari kureba amashusho, ibikuta by'iki cyumba bisa umweru.

Icyumba cy'isuzumiro kirimo n'ibikoresho byinshi bifashisha bakoresha mu gihe cyo gusuzuma, hari idirishya rifunguye ubonamo ibyatsi inyuma, ibikuta byayo byose bisa umweru, harimo utubati tw'ibirahure bibonerana.

Icyumba cyo kwa muganga basuzumiramo, harimo igitanda kirekire gisasheho amashuka y'ubururu, hejuru hari ibitara binini bikibonesha, hirya hari ibimashini bareberamo ibisubizo.

Umusore wicaye ku ntebe y'urubaho yegamye, uri muri siporo yambaye agakabutura kagufi k'umukara n'isengeri y'umukara, ari kunywa amazi n'imbere ye hateretse igikapu cy'umukara. Hirya hari umukobwa uhagaze wambaye agakabutura k'umukara karimo utuntu tw'umweru n'isengeri y'ibara ry'ivu yazamuye amaboko, imbere ye hari igikapu cy'umukara.

Abana bari gukina, bishimye cyane, b'abirabura, harimo umwana wazamuye akaboko n'akaguru, wambaye ikabutura n'ikoboyi n'agapira k'iroze karimo umweru, hasi mu kibuga hashushanyijemo imirongo y'umweru n'undi mwana ufite umupira mu ntoki, hejuru.

Abantu b'abagabo benshi bari mu murima, harimo abambaye amajire y'icyatsi n'umweru na kaki, imbere yabo hari imashini zikoresha bahinga, hari n'igiti kinini cyarabye gifite amababi y'icyatsi.

Abantu babiri bahagaze umugore n'umugabo, umugabo yambaye umupira w'umutuku n'ikoti ry'umukara, ibiti by'icyatsi biramukingirije, umukobwa yambaye ikote ry'umweru ateze agatambaro mu mutwe asa nk'uri kuvuga, ahantu bari hari ibyatsi byinshi.

Uducupa twinshi cyane duteretse hasi harimo, utw'umweru, n'umuhondo, n'umutuku, dupfundikiye tumwe duteretse ducuramye, hashushanyijeho akanyoni k'icyatsi n'igikakarubamba, akandi k'inyuma k'icyatsi gapfundikije ibara ry'icyuma.

Imboga ziteretse ku meza, zirimo tangawizi idatonoye n'imboga z'icyatsi, hari akayiko kariho ubuto bari gusuka mu icupa ry'icyuma, iruhande hari akantu k'umuhondo.

Ibyatsi bikoreshwa mu miti ya Kinyarwanda bifite amababi amwe asa icyatsi cyane, ayandi mababi asa umuhondo asa n'ayapfuye, afite kandi uturabo dutoya turi kuzaho dukura gake gakeya.

Ibiti bikiri bitoya biteye mu mashashi n'ifumbire y'umukara by'icyatsi, harimo icyapa cy'umweru cyandikishijeho amagambo y'umukara. Hari abantu inyuma y'aho bari kuganira, biri mu gishararagati gifite amafoto y'umweru, iruhande rwayo hari n'ibindi byatsi.

Icupa riteretse ricuramye ry'umweru rifite igishushanyo cy'igikakarubamba n'akanyoni biri mu ibara ry'icyatsi, gishushanyijeho amagambo yanditse n'umukara n'icyatsi, inyuma yaho igikuta gisa icyatsi gipfundikiye.

Agacupa k'umweru gateretse gapfundikiye, inyuma yayo hari umu gasa umukara, hafiteho agashushanyo k'akanyoni, hariho icyapa cyandikishije amagambo y'umukara, hasi hari akarongo gasa move karimo amagambo y'umweru.

Icupa rinini ripfundikiye, rifite amabara y'umweru n'umuhondo n'amagambo yanditswe mu ibara ry'ubururu. Iri cupa rifite agashushanyo kariho igikeri. Inyuma yayo, hateretse amacupa na yo ameze nk'iri ngiri.

Uducupa tubiri duteretse, kamwe gasa umweru, kariho ikibabi k'igikakarubamba, karimo amagambo ari mu ibara rya shokora n'akanyoni gashushanyijeho, irindi cupa risa umuhondo ripfundikishije ibara rya shokora rishushanyijeho igikakarubamba.

Icupa rirerire riteretse iburyo rifite umufuniko w'umweru ririmo ubuki n'icyapa cy'umweru na oranje, inyuma yayo hari inzuki n'utundi ducupa dutatu iruhande rwayo tw'umweru, hari ururabo rw'umuhondo n'icupa ribonerana riteretsemo ibintu.

Amacupa menshi ateretse ku meza afite ibara ry'umukara, amwe afite umufuniko w'umweru, andi afite imifuniko y'umutuku, umwe abonerana; imbere hari inkingi iriho utubara tw'umutuku n'umweru, hari abagore babiri, umwe umuteze igitambaro mu mutwe cy'umweru n'ikanzu, umugabo uhagaze imbere ye, ishati y'umukara irimo imirongo.

Amacupa ateretse ku meza, afite ibyapa by'umuhondo, apfunikije imifuniko y'umuhondo, iruhande rwayo hateretse icupa ry'ikirahure, inyuma hari imbuto zifite ibara ry'icyatsi, impande hari udufuka twa kacye, hahagaze umuntu wambaye imyenda ya kacye, hirya harimo abandi bantu, hari amabati asakaje aho hantu.

Amacupa atandatu ateretse, acuramye yose apfundikiye, ashushanyijeho ibishushanyo by'igikakarubamba, hariho amagambo yanditse mu ibara ry'umukara n'iry'ibara ry'icyatsi, hejuru hashushanyijeho akanyoni kandi ku ruhande harimo akarongo k'umweru.

Icyapa gifite ibara ry'icunga ryandikishaho amagambo y'umweru manini n'amato hariho utunini hasi n'agacupa k'umweru gapfundikiye, inyuma yayo hariho utubabi tw'icyatsi aka gacupa gafite icyapa cyanditse n'amagambo y'umukara n'akanyoni gashushanyijeho.

Agacupa gatoya k'umweru gafite icyapa cyanditse n'amagambo y'umukara ashushanyijeho akanyoni, riteretse ku isahane isa umweru, kuri iy'isahani hateretseho amaronji n'amacunga ahase atonoye.

Icyapa kiriho uducupa tubiri turi mu ibara ry'umuhondo, hashushanyijeho igikakarubamba n'amagambo yanditse mu mukara hariho n'akanyoni, igikakarubamba giteretse hasi n'ikirahure kirimo ibintu, icyapa kirimo amagambo y'umuhondo n'umukara.

Uducupa dutatu duteretse ku meza dusumbana, aka mbere gafite icyapa kiri mu ibara ry'ikigina gishushanyijeho n'akanyoni, aka kabiri gafite ibara ry'icyatsi, aka gatatu gafite ibara ry'icunga, iruhande rwayo hateretse ikirahure.

Icyapa kiriho akanyoni k'umweru n'amagambo yanditswe mu ibara ry'umweru, iruhande hari icupa rinini rifite umufuniko wa shokora, ririho igishushanyo cy'igikakarubamba n'akandi gacupa gatoya, gateretse hasi, gapfundikiye.

Icyapa kiriho amagambo yanditse mu ibara ry'ubururu n'umutuku hejuru hari umugabo wambaye ikote ry'umukara n'ishati y'ubururu ufite umusatsi mukeya iruhande rwe hari uducupa tw'umweru dufite imifuniko y'icyatsi n'utundi dufite imifuniko y'umuhondo.